Aha hari umugabo wambaye imyenda mpuzankano y'akazi ke, ikoti ry'umuhondo, n'ipantaro y'umuhondo, na ga z'umukara mu ntoki ze. Akaba mu mugongo ahetse ipombo avangiramo imiti itandukanye, atera ibihingwa, kugira ngo yice udukoko, ikure neza.

Aha hari ubuhinzi bw'inyanya, aho ari umubyeyi wambaye ingofero irimoturango tw'umukara n'umweru, yambaye n'ikoti ry'ikoboyi, mugongo akaba ahetse ipompo, ipombo akusanyirizamo imiti atera izina nyanya, kugira ngo zitohe wibice n'udukoko tuzijyamo.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara n'imyenda y'umukara, agapfukamunwa k'umweru, ahetse ipompo mu mugongo, ari mu muceri arimo arawutera umuti kugira ngo umere neza kandi awurinde n'ubukoko bwawangiza.

Nk'uko tubimenyereye, tuzi uko ubuhinzi bw'ibigori ,bisaba kubyitaho bugahingwa ifumbire kandi bukitabwaho bugaterwa imiti yica ubukoko bityo hano hakaba ari umumama, uri mu murima w'ibigori, uri gutera umuti urwanya udukoko ku bigori, ku bihingwa.

Aha turabona umugabo wambaye agapfukamunwa n'umupira n'ipantaro y'ikoboyi, ufite isamake mu ntoki bisa nk'aho ari bwo akiyiroba mu cyuzi kimwe.

Icyuzi, kirimo amafi menshi, yazamutse hejuru, ari menshi cyane.

Ibyuzi byororerwamo amafi, hirya yaho hari umurima w'urutoki, hakurya hari umugore wambaye umupira wa orange uteze igitambaro mu mutwe ahagaze.

Aha turahabona abakobwa batatu bambaye amaserubeti ya kake ndetse na bote, hagati yabo harimo umugabo nawe wambaye bote n'ingofero y'umweru, bakaba bafite indobo bari kuvoma amazi ku mwaro w'ikiyaga, hirya yabo hari ubwato n'umugabo uri kubujyamo.

Urubyiruko ruri ku nkengero z'amazi, batatu bari mu bwato, abandi babiri bari hasi, bakaba bari kuroba bakoresheje spaninete. Hari abandi babiri bari mu mazi mu ruzi hagati.

Ibyuzi byakozwe n'abantu byororerwamo amafi hirya hakaba ari ikiyaga gitoya.

Ibibogisi by'ibipalasitike birimo amazi n'amatiyo ku ruhande acamo amazi, bikaba byororerwamo amafi yabugenewe.

Ibyuzi byorerwamo amafi kandi bikaba byarakozwe n'abantu. Hirya yabyo hari ishyamba n'imyaka ihinze mu murima. Iruhande rwabyo hari umwana wicaye.

Hano hari umusore uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba ahagaze imbere y'icyuzi yakoteyeye kugirango ashyiho amazi azajya abona hafi, hirya hakaba hari ikidaraki kirambuye, gisakaye asa n'aho atuburiramo ingemwe. Ayo mazi ni ayo yuhiza.

Ibyuzi byakozwe n'umuntu bihagazweho n'umugabo ku ruhande wambaye umupira w'ubururu.

Ubwato buhagaze ku nkengero z'uruzi burimo amafi menshi, bukaba buhagazweho n'umugabo wambaye ubusa.

Ibyuzi byakozwe n'abantu byoherwamo amafi. Hakurya yabyo hari ishyamba rirerire, rinini riri ku musozi. Hino hari ibyatsi, hari umurima udahinze.

Ibyuzi byakozwe n'abantu biri hagati y'imirima y'abaturage hino habanza hari umurima uhinzemo imyaka, hakurya hari imirima itarimo ikintu ku musozi hariho amashyamba n'ibihuru, birinda inkangu kandi bigakurura imvura.

Ibyuzi byororerwamo amafi, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye ufite amafi mu ntoki abiri, yambaye rinete n'ingofero, akaba ari kwerekana ubworozi bw'amafi mu bo afite.

Hano turahabona umurobyi uri ku cyuzi cye yikoreye ,wororeramo amafi uri kuroba n'indobani ifite inshundura z'umutuku. Akaba yambaye ishati y'umweru yanduye.

Imirima yuzuyemo amazi ikasemo uduce duce bakaba bayihingamo ku ruhande hakaba hagiye hari imiferege y'amazi yateyeho ibyatsi.

Hano turahabona umukobwa usutse mu mutwe wambaye isurubeti, mo imbere hakaba harimo agapira k'umweru, arunamye, yunamye ku meza ariho ifi, akaba ari n'umusitajeri uri gukora isuzuma ku ifi.

Iki ni igisambu cyubatswemo udutanda tw'ibiti twanikwaho ikawa, hakurya hakaba hari amazu y'abaturage.

Murabizi ko iwacu mu Rwanda benshi dutunzwe no guhinga, ni byo rero ikawa irahingwa kandi igatunganywa, ikanoherezwa hanze mu mahanga. Hano turahabona igiti cy'ikawa kiriho izeze n'izitari zera, izeze n'iz'umutuku izitari zera n'iz'icyatsi.

Umumama uri mu murima w'ikawa, aho ari gusarura izeze, yikoreye indabo y'icyatsi, yiteze igitambaro.

Ibishashi birimo amafu, ahabwa amatungo kugira ngo amere neza.

Uducupa tureture dufite imifuduko itukura, hasi n'umuhondo ku ruhande hari utundi dufite agafuniko gato, tw'umukara, twose tubamo imiti y'amatungo.

Ibikombe bya plastiki birimo imiti, ivura amatungo.

Iyi ni imiti y'amatungo iterwa mu nshinge inka ikazifasha gukura neza no kudahura n'uburwayi.

Utubido dupanze muri etajeri tunini tubamo imiti y'amatungo.

Aha turabona umumama, wambaye ikanzu y'igitenge, uri mu murima ari guhinga, afite n'isuka.

Aha turahabona igishanga giteyemo ibigori byinshi hakurya hakaba hari umusozi waciwemo imiferege n'amazi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'isarubeti y'ubururu, ari kumwe n'umugore witeze igitambaro, imwenda y'umukara, bunamye bari, kubagara, ibirayi.

Aba mama babiri n'umukobwa umwe n'umupapa umwe, bunamye mu murima w'umuceri bari kubagara, umukobwa afite isuka ateze igitambaro mu mutwe n'undi mu mama umwe.

Ifoto y'umweru wera de itagize ikintu na kimwe iriho.

Muri iki gisambu hari abaturage barimo abakobwa n'abagabo, bakaba hari ibiti bari gukuramo bari kurandura.

Turabona umugore ufite inkoni mu ntoki n'umuhoro usa nk'aho ari gutambuka afite aho agiye, ari mu bisambu harimo ibyatsi byinshi.

Aha turahabona ikiraro cya kijyambere cyorerwamo inka z'inzungu, aho ziba zarahawe abaturage rusange mu kiraro cya rusange.

Aha turabona umubyeyi, wambaye ikote ry'imbeho, witeze igitambaro mu mutwe, ufite umuhoro mu ntoki, ari kwahira ibyatsi by'amatungo.

Umugabo ufite igare rihetseho inkwi n'igitiyo uri gusunika igare mu kayira kari mu gisambu, inyuma ye hari umupapa ufite umuhoro mu kaboko uri gutambuka asanga igare, hirya mu gisambu hariyo igiti.

Hano hari abagabo babiri bafite amasuka, bari mu murima, barasa n'abajyiye mu murima guhinga. Bambaye umupira w'umukara niipantaro, harimo wambaye umupira usa n'aho ari umukara werurutse.

Igisambu kirimo abagabo batatu n'umugore umwe, umugore afite agati ko gutera mu ntoki, yambaye isaha, hirya hari wambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero, inyuma ye hari umugabo wambaye ingofero.

Aha turabona ifamu nini iterawemo ibiti bigiye bitandukanye, hakaba haragirwamo amatungo hakaba harimo inka nyinshi zigenda zirisha hirya no hino.

Haragaragara nk'ibibanza biri mu gishanga cy'umuceri. Hakaba hakorerwa ubuhinzi bw'umuceri.

Umurima uhinze, uteyemo imyumbati, hakurya hari amazu ya kadasiteri. Hanze hari ikigega cy'umukara.

Hirya no hino mu byaro hari ahaba hari ibisambu hamwe haba hadafite abahahinga, hano hari igisambu kinini kidahinze kirimo ibihuru byinshi.

Utu ni uturima tugiye duhinze, hatewemo imyumbati.

Uyu ni musaruro w'ibirayi umuturage wahinze akeza arasarura umusaruro we ukamuteza imbere akabasha kujyana mu rugo bakarya, ndetse agasagurira n'amasoko kugira ngo abone amafaranga.

Aha ni mu murima, w'ibirayi, aho, harimo, uwaje, kubikura, bikaba birunze, hamwe.

Imboga ziteye mu gisambu, ahari n'igiti cy'umbati n'ibindi byatsi bitandukanye.

Uyu ni umwembe, wa kijyambere. Umwembe werera, hasi, tukaba tubizi ko, imyembe iryoha, imyembe iba yaratubuwe, n'imirenge.

Hano hari imboga ziteye mu karima k'igikoni n'imboga rwatsi zikaba ziri kumwe n'ibitunguru bya powalo, bityo bigatuma abana barya indyo yuzuye kandi bababanmye hafi kugira ngo bagire imikurire myiza.

Uyu ni umurima muremure unyurwamo n'amapoto insinga z'amashanyarazi.

Ubuhinzi bwo mu murima w'ibirayi hateyemo ibiti birebire, hirya hari ibihuru.

Ishyamba rinini kandi rifite ibiti birebire, hagiye harimo utuzu abakerarugendo baza baruhukiramo, aho ubasha gutembera neza, wisanzuye.

Ifamu iragirwamo amatungo, itewemo ibiti bitandukanye.

Aha turabona amasambu manini cyane ateweho ibiti by'ubwoko bwinshi, ibi bikaba ari ibidukikije bifasha gukurura imvura igwa ku butaka, kandi bikarinda n'isuri aho bitewe.

Ku bantu batembera tumenyereye yuko baya batembera ahantu hari amazi menshi n'aha rero ni ahantu ubwiza nyaburanga, aho umugezi uba utemba akaba ari ahantu uza uhurira.

Mu mashyamba habamo ibihuru byinshi bitandukanye, ugasangamo ibintu byinshi by'imyotsi.

Igisambu kidahinze, giteyemo ibiti, bigiye bitandukanye, harimo ibyatsi.

Aho turabona isambu ndende, rimo ibisambu byinshi by'ubwoko bwinshi, hagati hakaba hagiye harimo igiti kimwe kimwe, kubera urubuye rwinshi.

Aha turahabona ama pariseri manini, asa naho ari amafamu aragirwamo. Hakurya yaho hakaba hari ishyamba rinini cyane. Ni byiza ko ahantu hitaruye hagomba kuba hari amashyamba bityo bigatuma akurura imvura.

Aha turahabona umumama wari gusarura mu karima k'igikoni, aho ari gusarura ibitunguru bya powalo hakaba hahinzemo n'izindi mboga z'ubwoko bwose.

Umuturage ufite ibase mu maboko irimo kiribwa cyitwa kayote, kikaba kiribwa ari ikiribwa cyiza gifasha umubiri kumererwa neza, umuturage yambaye umupira w'umutuku, ibase yamenetse itukura, ukaba ari kugurisha kayote.

Imirima ituburirwaho imboga n'imbuto, aho hubatse ibisharagati by'umweru bibiri.

Ubucuruzi bw'imboga karoti, urusenda, inyanya, intoryi, puwavuro, ibitunguru, byose birii hasi bifunze ku mifungo.

Hano turahabona umumama wambaye agapira k'umuhondo uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe hasi yambaye igitenge akaba ari kwerekana ubuhinzi bw'ibinyomoro yahinze uko bingana, ntibirera ariko urabona ko bimeze neza bishimishije.

Uyu ni umurima umuhinzi ahingaho inyanya ukaba wubakiye ugiye urimo imigozi ifashe ku nyanya kugira zibashe kubona aho zizamukira bityo bitume zera neza.

Isoko ry'imboga nk'amashu, inyanya, povuro, intoryi bikaba biri ku dutanda bicururizwaho.

Aha turabona ari ahinazwa, ibiti by'imbuto bya pepeniyeli, aho ushaka igiti cy'umwembe aza kukigurira, akajya kugihinga iwe mu rugo.

Ubuhinzi bukozwe ku murongo burera kandi buba bumeze neza, umugabo wambaye akagofero gato n'ishati ya karokaro y'amaboko n'ikoboyi, aho yegereye igiti cy'urusenda ari kupima arebe ko biri ku murongo.

Umurima uhinzwemo imboga uri kuhirwa n'umupira w'amazi, ufashwe n'umusore wambaye umupira utukura, hakurya hari insina nyinshi.

Ubuhinzi bukozwe ku murongo, buba bwiza kandi bukera neza. Hakurya hari inzu yabugenewe isarurirwamo. Hagati, haciyemo, ibyuma, by'insinga z'amashanyarazi.

Uyu ni umurima wateweho imboga hakaba harimo umupapa wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ya kake wambaye n'agapfukamunwa, afite umupira w'amazi mu ntoki ari kuhira ubuhinzi bwe.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara n'ishati y'amaboko maremare, ari kuhira imbuto ze, yambaye agapfukamunwa gatukura, hirya ye hari ibiti by'inturusu, afite umupira ari kuhiza imbuto.

Iyi, ni imashini yuhira, imyaka, kuri hegitari ndende.

Umukobwa uri mu murima w'amashu uri kuhira akoresheje rozwari, arasutse akenyeye igitenge.

Aha haragarara nk'umurima wahinzwemo ibigori, bikaba bifasha abantu benshi kwiteza imbere kandi bakanabasha kubona umusaruro uhagije bajyana mu rugo, ndetse no ku isoko.

Iyi ni imisozi iriho ibisambu byinshi n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikiyaga kirimo ubwato bubiri burimo abantu. Hakurya hari amashyamba n'imirima y'abaturage.

Imirima y'abaturage idahinze igiye irimo ibiti bitandukanye, ku gasozi hateyeho amashyamba, igiye ikatishijemo imiyenzi.

Udutanda twubakiye twanikwaho umusaruro uvuye mu mirima yahinzwe neza. Hirya hari amabati asakaye ahahunikwamo imyaka.

Ubutaka bw'abaturage buhinze bukaba bukikijwe n'ibiti bikurura imvura, hasi harimo akabande aho hanyurwamo amazi atemba.

Turabizi ko ahantu hahanamye hacuritse cyane ari mu mirima y'abaturage bisaba ko hacibwa amatarasi kugira ngo biririnde isuri itwara ubutaka, naha turahabona imirima y'abaturage imwe ikasemo amatarasi y'indinganire ayifasha kwirinda gutenguka k'ubutaka.

Imirima yo mu gishanga igiye irimo amakorosi ya Nyabarongo, ikaba igenda ikatakata mu mirima y'abaturage.

Aya ni amasambu muremare yitaruye abaturage kuko uko bigaragara nta muturage uhatuye n'umwe, aha rero akaba ari mu masambu, uko agiye akatakase ari ko abaturage bagiye bagabana.

Inkoko z'amapondezi ziri mu kiraro cyazo. Hirya hari ibintu by'umweru bifite imifuniko itukura aho zinywera amazi.

Iri ni itungo rigufi ry'ingurube, rifasha umuntu kwiteza imbere, kugira ngo agire aho ava n'aho agera.

Aha turahabona ibiraro byiza bya kijyambere byubakiye binasakaye, bisa n'aho byororerwamo ingurube, hakaba hari umugabo uhagaze mo hagati uri kwitegereza amatungo ye.

Aha turahabona ubworozi bw'amatungo magufi, aho ihene ziri mu gisambu bazijyanye kurisha nyinshi cyane. Bikaba bitanga umusaruro wo kuzigurisha, bakungukamo amafaranga, kandi bakongera bakaba bagura n'izindi bakorora.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, uri mu kiraro yambaye bote z'umweru n'ipantaro y'umukara, ikiraro cy'imishwi y'inkoko ikiri mito, akaba ari guha amazi inkoko.

Ni ifamu y'inka aho harimo inka nyinshi hirya hakaba hari umugabo wamba agapira k'umuko uhagaze munsi y'igiti ari we uziragira.

Ubworozi bw'inkoko iyo ari imishwi mitoya ikiri mito haba hari imbabura icanye amakara kugira ngo imishwi ishyuhe, hari ibiparasitike bifite imifuniko y'umutuku aho zinywera amazi.

Ubworozi n'amatungo magufi n'ihene ituma twiteza imbere izi hene ziri mu gisambu ziri kurisha zikaba ziryamye zifite amahembe.

Inka ziri aho bazubakiye bazikingira, hakaba hari abaganga batatu bambaye amatabariya y'umweru, n'abandi bagabo babiri bambaye asarubeti y'ubururu, n'undi mugabo umwe wambaye ikoboyi n'umupira na bote z'umukara. Ku ruhande hakaba ari igisambo kidahinze. Hakurya hakaba hari ibiti by'inturusi.

Ubworozi bw'imishwi y'inkoko buri mu kiraro cyabugenewe, aho hari gutemberamo umugabo wambaye itaburiya, wambaye isabeti y'umweru, areba ko nta kibazo zifite, hakaba harimo ibibogisi bya pulasitiki bifite ifuniko y'imituku ariho zinywera amazi.

Aha turahabona ikiraro cya kijyambere, cyororewemo inka nyinshi, imbere yacyo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'umukara, asa n'aho ari kwitegereza ubworozi bwe.

Iki ni igisambu kinini kirimo ubwatsi bw'amatungo, hakaba harimo igiti, muri iki gisambu harimo inka enye, ebyiri z'umukara, n'ebyiri z'isine, gikotirijwe imiyenzi, hirya yaho hari akazu k'amabati.

Ubworozi bw'inkwavu, utuzu tw'ibyuma tuboshye turimo inkwavu, hirya y'akazu hari abagabo bambaye amataburiya y'umweru, hari ufite ikaramu uri kwandika n'umanitse ikiganza ashaka gufata urukwavu.

Aho inka zihurira ngo zikamwe, hari abagabo babiri bareba hirya, umwe wambaye ishati y'amaboko maremare, umupira w'mweru, n'undi uri gukama.

Iyi ni n'inka y'inzungu iri kunywa amazi mu ibasi ikaba iri mu kiraro imbere yayo hari umugabo wicaye wambaye ingofero na bote uri guha inka amazi.

Nk'uko mubizi mu kwiteza imbere tugerageza no gushakira mu bworozi, aho ingurube nazo ziba ubworozi butuma umuntu agira aho ava, akagira n'aho agera. Aha turahabona ingurube eshatu, zisa naho ziri kurira mu kintu kimwe ziri mu kiraro k'ibiti.

Icyaro cyoherwamo inka, cya kijyambere, inka z'inzungo, imbere yacyo hakaba hari umusore wambaye ishati y'umweru, uri guha inka ubwatsi afite na telefone mu ntoki.

Aha turabona ko ari mu ifamu, iragirwamo amatungo, hakaba harimo inka nyinshi, nyinshi cyane, ziragiwe.

Murabizi ko kenshi na kenshi uri gushaka amafaranga agerageza no korora. Inkoko rero ziba mu za mbere zororwa kandi zigatanga umusaruro vuba ujyana ku isoko, hano turabona inkoko za pondezi, aho ari nyinshi hagati hakaba hari ibyo ziteramo.

Ukuboko k'umuntu kwambaye ga y'umukara gufite imbuto mu ntoki.

Umuturage ufite inkoko mu ntoki n'inzuzi mu ntoki, hariho imbuto zigiye zitandukanye.

Ibijumba bishashe hasi, birimo amaboko y'abantu ari kubitoranya.

Ukuboko k'umuntu kwambaye ga, kuri, gutera imbuto mu murima.

Aha turabona ibiganza by'umuntu bibiri bifite impeke z'ubwoko bubiri butandukanye, kimwe kirimo umuceri udatonoye, ikindi kirimo amasaka.

Ubuhinzi bw'ibigori bweze neza, ibigori by'umuhondo.

Aha tukaba tubona akantu k'akayozo aho hari na voka zidandagaje, hasi bari kuyora bapanga mu kintu runaka.

Hano turahabona udutanda bananikaho ikawa hakaba hanitseho ikawa kugira ngo yume babone uko bayishyira mu ruganda ruyitonore.

Inka ifunze mubi biti hagati aho iri gufashwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ku ruhande hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu.

Iki ni cyumba cyo kwa muganga, hakaba hicayemo umuganga wambayetaburiya y'umweru ufite akantu mu ntoki, bisa n'aho ari nk'ibyo ari gutunganya, yambaye ga mu ntoki.

Aha turabona abaganga bambaye ga z'ubururu bafite agakoresho ko gusuzuma ko itungo rigiye kubagwa, bisa nkaho nta kibazo rifite, akaba ari ihene iryamye hasi bakase mu ijosi.

Ikiganza cyambaye ga, gifashe inyama ikimarwa kubagwa.

Aha turahabona ibagiro hasa n'aho haje veterineri gusuzuma inyama ko zujuje ubuziranenge, nta ndwara zaba zirwaye.

Igikoresho cya veterineri akoresha mu kazi ke ka buri munsi kiri ku ntebe ya pulasitike.

Umuganga w'amatungo uri kuvura inka iri mu kiraro.

Iyi ni parike aho hari inyamaswa zitwa isha, zikaba ziri mu mazi, isha eshanu ziri kwitegereza izindi nyamaswa.

Inyoni ebyiri za kasuku ziri mu giti mu ishyamba.

Igiti cyo muri parike cyuriwe n'inyamaswa y'inkazi y'ingwe.

Muri parike habamo inyamaswa nyinshi, hakaba hari, iziryamye hasi, ziri kumwe n'ibyana byazo.

Aha ni muri parike hakaba harimo ingwe, inyamaswa y'inkazi iba mu parike hirya no hino hatandukanye.

Imparage iri muri parike hagati mu byatsi byumye.

Hano turahabona inyamaswa yitwa inkende, yicaye hasi isa naho kwitegereza izindi.

Inyoni ziba muri pariki.

Aha turahabona ifoto y'ingagi. Aho hirya y'aho hari umuntu ufite agafuka mu mugongo, wambaye ipantaro y'icyatsi. Inkende imwe ihetse akana kayo ku mugongo ziri gutambuka.

Aha ni muri parike, ahibera inyamaswa z'ubwoko bwose, zikaba zihagaze. Inyuma yazo hakaba hari amazi.